Umugore uteruye mwana we akaba yambaye ingofero, uyu mugore ahagaze ku ivomero aho ategereje ko amazi ajya mu ndobo ye y'umukara.

Abana bagera kuri bane, bahagaze ku kiyaga, bafite ibivomesho nk'indobo imwe isa ubururu, aho bari kuvoma amazi adasa neza.

Abana bakiri bato bishimye kandi baseka cyane, umugabo ubahagaze hejuru ufite igikombe mu ntoki abasukira amazi mu ntoki bagakaraba, baseka cyane.

Abana bambaye imyenda isa hose, bari guhabwa igikoma n'uwambaye impuzankano ya polisi, akaba kandi yambaye n'ingofero, bari kandi guhabwa igikoma n'uwabiherewe uburenganzira, wambaye na we ingofero n'amadarubindi.

Abana benshi bahuriye ku ivomero, hari igihombo kimwe kizana amazi, bakaba bagihuriyeho ari benshi biteje akavuyo, icyo gihombo gifashe ku matafari ameze neza, inyuma yabo hari ishyamba.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, abo bana bambaye imyenda ya kaki, bari ku ivomero aho buri wese afite indobo y'umuhondo iri kugibwamo n'amazi aturuka muri iryo vomero.

Urusisiro rw'amazu, aho kuri ayo mazu hari abagabo bambaye bitwikiriye hose, bari gutera imiti runaka, yica udukoko dutera indwara runaka.

Umugabo uri gutanga imbwirwaruhame yifashishije indangururamajwi imbere y'abantu bicaye bose bamukurikiye, aba bantu biganjemo abagore n'abagabo babiri, umwe muri abo bagabo afite uruhara.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka itanu kugeza ku munani, ari gukaraba intoki amazi meza aturuka ahabugenewe, uyu mwana, amazi ari gukaraba ari kumeneka mu kabase gato.

Abantu batatu, umugabo w'ishati yera ufashe ku rutugu umugore wambaye umupira w'umukara kandi akaba amufashe ku nda, bigaragara ko atwite umujyanama w'ikigo nderabuzima runaka abicaye imbere ari kubagira inama.

Wirabura wambaye agapfukamuwa k'ubururu akaba kandi yambaye n'amaherena maremare, ateruye umwana w'uruhinja inyuma ye nabwo hari umugore wambaye agapfukamunwa uteruye umwana nawe, inyuma yabo hari idirishya ribonerana.

Umugore uri gufasha abana kuvoma ku ivomero, abana bato bakiri bato bafite hagati y'imyaka itanu n'umunani, bafite utujerekani baje kuvoma, ishyamba hirya yabo n'imodoka iparitse hafi yabo.

Itsinda ry'abasore n'abakobwa b'abaganga, bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru, bamwe muri bo baricaye bafite akanyamuneza, bigaragara ko umurimo bakora bawishimiye kandi urushaho gufasha abaturage.

Abagabo n'abagore bicaye imbere y'icyapa, bose bambaye udupfukamunwa, bicaye mu ntebe nziza icyapa inyuma yabo cy'ubururu. Akameza kabateretse imbere yabo gateretseho amazi ya buri muntu mu icupa.

Umusaza w'umukambwe wicaye ku ntebe y'umweru. Uyu musaza hirya ye hari abaganga benshi. Akaba yashyizweho imashini ku kaboko ke k'ibumoso. Umusaza afite imvi kandi yambaye ingofero. Abaganga bamuhagaze iruhande...

Abana babiri bari ku ivomero umwe w'umuhungu ari gukanda kugira ngo amazi aturuke mu ivomero ace mu gihombo yinjire mu kajerekani gato umwana w'umukobwa ateruye.

Itsinda ry'abaganga b'abagabo n'umugore umwe bambaye amataburiya y'umweru hagati yabo hahagaze umugore ufite ibara ryera.

Abantu bagera kuri 5 bafite uruhu rwera umwe muri bo afite indangururamajwi mu kaboko k'iburyo barimo kuganira ku cyizere cy'umwana wese, umwana agomba kwitabwaho kuva akiri muto.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo abagabo n'abagore, bari kumwe n’abana bato babaha amata bakoresheje ibikombe. Abo bantu harimo abambaye amadarubindi, harimo kandi n'abambaye ingofero.

Umwana muto wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi' kandi wambaye ikabutura y'umukara uri ku ivomero, aho afite akajerekani gato k'umweru kari kugibwamo n'amazi.

Abana b'abanyeshuri batandatu bari ku ivomero, aho buri wese afite indobo y'umuhondo iri kugibwamo n'amazi aturuka mu mupira wo ku mavomero.

Umugore ufite uruti ruto ruto, uteruye umwana, akaba kandi afashe ifishi mu kaboko k'iburyo, ayishyikirije akaboko k'ibumoso, inyuma ye hari abandi bagore n'abagabo bicaye bategereje.

Umugore witandiye igitambaro mu mutwe, ukenyeye kandi igitenge n'umugabo uri hirya ye, bahagaze ku ivomero, aho buri wese afite ijerekani, ari kuvoma amazi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimo gutera urushinge akana kakiri gato gateruwe na nyina, hirya hari imeza iteretseho bimwe mu bikoresho bifashisha, munsi y'imeza hari aho bajugunya imyanda.

Ikinyamakuru kiriho abantu batanu barimo babiri b'uruhu rwera n'abandi b'uruhu rwirabura batatu, handitseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, agira ati nta gusiga n'umwe inyuma.

Abantu bari mu nama. Imbere yabo hateretse amazi ku meza. Higanjemo abagabo bagera muri bane n'abagore.

Umugore uri mu ishyamba ubona ritagizwe n'ibiti byinshi wikoreye indobo y'umuhondo akaba kandi afashe n'indi ndobo mu kaboko k'iburyo, imbere ye hari inzu ubone ishaje.

Uruhuri rw'abantu biganjemo abagore, abana n'abagabo, bahagaze imbere y'inzu kandi bambaye impuzankano imwe, yerekana ko bafite ikigo runaka bakorera.

Itsinda ry'abaganga bahagararanye n'abayobozi bahagaze imbere y'umuryango, ku gikuta hariho ibishushanyo byerekana ibice bigize umubiri wa muntu, imbere yabo hari imeza n'igitambaro cy'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse cyane, hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, yerekana ko hari ikigo cya buri mwana wese, cyita kuri buri mwana.

Ababyeyi bateruye abana babo bakiri bato, bari mu kigero cy'umwaka n'amezi atandatu, bari ku bitaro, bamwe bari guhabwa ibere muri abo bana, abandi bari gusimbizwa nk'ikimenyetso cyo kwita ku mwana, ukamwereka ko umufitiye urukundo.

Uruhurirane rw'abaganga n'abarwayi bari kuvurwa baterwa inshinge aho bigaragara ko bu umwe mu barwayi ari kwisuzumisha zimwe mu ndwara ashobora kuba yararwaye. Kwisuzumisha indwara ni kimwe mu bintu dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Abantu barenze umwe bicaye mu kidara, barimo abana, abagore n'abagabo. Hari kandi umupolisi w'umugore wambaye impuzankano, imbere yabo hahagaze umugabo ufashe mu kaboko k'iburyo indangururamajwi, ari kubagezaho ibiganiro.

Urungano rw'abana bakiri bato bahagaze ku ivomero bakaraba intoki kandi baseka cyane bishimye, gukaraba intoki ni kimwe mu biranga isuku, bigomba gutozwa abana mu gihe bakiri bato.

Abana babiri bakiri bato bari mu kigero cy'imyaka itanu kugera ku icumi, bari ku ivomero bafite indobo ebyiri ziri kugibwamo n'amazi aturuka ku ivomero, amazi asa neza. Amazi ni ubuzima kandi adufasha kwirinda indwara.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri bari mu kidara, imbere yabo hari ababyeyi babareba kandi bishimye. Hirya yabo hari abagabo bari kubafotora. Inyuma muri abo bana harimo umwarimu wabo w'umukobwa wambaye itabuririya y'umweru.

Umubyeyi wambaye ibitenge hejuru no hasi, uteruye umwana we ukiri muto wambaye ubururu, imbere yabo hari umuganga, imbere yabo kandi hari umunzani upimirwaho abana. Hirya yabo hari abandi bagore babiri.

Ibiganza by'umwana ukiri muto, biri kwakira amazi aturuka mu ivomero. Amazi ni meza. Amazi kandi, afasha ikiremwamuntu mu buzima bwa buri munsi.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri, abo bana bari ku ivomero aho amazi ari kuza akagwa mu ntoki zabo bakayanywa.

Itsinda ry'abaganga n'abaforomo bahagaze imbere y'inyubako muri koridoro, inyuma hakaba hahagaze abarwayi, iruhande rwabo hari icyapa kirekire kibasumba.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gutera urushinge umwana ukiri muto ku kaboko k'ibumoso, umwana wambaye ishati y'ubururu. Abana bakingirwa bakiri bato, bityo bikabarinda indwara mu gihe bakuze.

Abantu babiri, umugore n'umugabo, bari ku mugezi, umugore ari gukoresha ijerekani akavoma amazi y'umugezi n'aho umugabo we yagaramitse igare, ari gukoresha amazi y'imigezi yoza igare rye.

Umwana ukiri muto ufite igikombe mu kaboko k'iburyo uri kuvoma amazi yo mu kigega amazi ni ubuzima, amazi akiza indwara kandi afasha mu bindi bintu bitandukanye nk'igogora.

Abantu bari mu nama baganira, imbere yabo ku meza hateretse icupa ry'amazi buri muntu, ku gikuta hari amashusho akoreshejwe insakazamashusho.

Umugore ufite ijerekani mu kaboko k'iburyo iri kugibwamo n'amazi ku ivomero, icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyerekana ko amazi, isuku no kwiyitaho dukaraba intoki ari kimwe mu bidufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Itsinda ry'abakobwa batatu n'umuhungu umwe bahagaze bari kuganira, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu b'abagore bagera muri bane imbere yabo hateretse amajerekani menshi aho bari ku ivomero, amazi akaba ari kujya mu mabido yabo aciye mu ivomero mu mahombo.

Umugabo wambaye kasike yabugenewe, yambaye kandi agapfukamunwa akaba anambaye uduhishantoki, akaba kandi anambaye itaburiya y'umweru, afashe ku rutugu umusaza wambaye ingofero, hirya ye hari umwana, hirya yabo hari indabyo z'umuhondo.

Umugore wambaye ingofero n'igitenge. Ari gukoresha icyo bita kandagira ukarabe. Ikozwe mu biti bitambitsweho urubaho hejuru bigashyirwamo akajerekani hagati. Aho akandagira agakaraba amazi meza yashyizwe muri iyo jerekani nto.

Uruhurirane rw'abantu barenga babiri bari mu cyumba cy'uruganiriro, bari kuganira ku kibazo runaka, imeza nini kandi ngari iteretseho igikombe, n'isahani, kandi harimo imashini yifashishwa mu gusakaza amashusho runaka.

Umugore wambaye amadarubindi abonerana, akaba kandi yambaye igitenge, inyuma ye hari abana bareba cyane kandi baseka bishimye.

Akaboko k'umuntu kari ku mugezi aho hari ivomero, hakaba hari igihombo gicamo amazi meza, aka kaboko k'umuntu kari kwakira amazi aturutse muri icyo gihombo.

Umwana ukiri muto w'umukobwa uhagaze ateruye ijage nini, naho uw'umuhungu uruta w'umukobwa we afite isabune mu ntoki, arunamye, indobo iri munsi ye agiye gukaraba, hirya yabo hari inzu ifite umuryango n'igikuta gishaje.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ahagaze ku ivomero ateze amaboko yombi, amazi amanuka akayanywa. Yambaye inkweto, hirya ye hari aho bajugunya imyanda. Hirya y'umwana hari amashuri, hari n'undi munyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri.

Imodoka y'igikamyo ndende cyane ifite ibara ry'umweru n'amapine y'umukara, inyuma yayo hari ikidara cyicayemo abantu batagaragara cy'umweru hari kandi amagambo yanditse kuri iyo modoka mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bicaye ku ntebe z'umukara, umwe muri bo ahagaze hagati yabo ari kubaha ikiganiro, hari kandi ibyapa bigizwe n'amabara y'umweru icyatsi, umuhondo n'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'igisate, ibara rimwe ni umukara. Ahagaze imbere y'inyubako iteye neza isa neza, imbere y'inyubako hari ibiti by'icyatsi umugabo ahagaze mu byatsi.

Abantu bari mu nama abagore batatu baricaye ku meza imbere yabo hateretse icupa ry'amazi buri muntu, umugabo afite indangururamajwi mu kaboko k'iburyo, inyuma hari icyapa cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umupira w'amaboko magufi w'ibara ry'ubururu ku maboko n'ibara ry'umweru ryuje ubwiza handitsweho amagambo y'ururimi rw'icyongereza agaragaza inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ku isi.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako nziza. Wambaye ishati y'igisate igice kimwe cy'umukara ikindi gice kirindi ibara, aho uyu mugabo yambaye amadarubindi. Ahagaze mu bwatsi bwiza butoshye, iruhande rwe hari ibiti by'ibara ry'icyatsi biteye neza.

Itsinda ry'abantu biganjemo abapolisi bambaye impuzankano isa hose n'igofero, kandi higanjemo abagore bambaye imyenda y'umweru hejuru n'amapantaro y'umutuku, bahagaze imbere y'icyapa cyerekana ko tugomba kwita ku buzima bw'umwana tukirinda ikimuhungabanya.

Umugabo uteye ubwoba kumureba, ni igikara cyane, imisatsi yamwumiyeho, ubwanwa bwamubanye bwinshi, ntabusokoza, uyu mugabo arasamye kandi yambaye imyenda y'incwabari cyane.

Umugabo wambaye imyenda y'inshwabari yacikaguritse, uyu mugabo afite imbyiro mu maso, yikoreye kandi ibintu bidasobanutse, inyuma ye hari igikamyo gifite ibara ry'icyatsi n'umukara.

Umugabo wicaye muri rigori wenyine, usa nk'uwambaye ubusa kuko imyenda yambaye ni inshwabari, afite kandi imyanda myinshi, rigori yicayemo biragaragara ko nta mazi aherukamo.

Itsinda ryabantu bibumbiye hamwe bambaye imipira isa ubururu bwererutse, aho harimo umwe ufite ibara ryera, bari gutera ikimera mu butaka butoshye aho hari n'indi bahagaze bafite igipapuro kinini mu biganza byabo.

Umuntu wicaye hasi ufite imyenda y'incwabari isa nabi, na we ubwe ntaheruka koga; iruhande rwe hateretse amacupa y'amazi abiri n'inkoni, afite mu ntoki ishashi n'agafuka karimo ibintu by'icyatsi.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe, bari mu nzu, bose bahagaze imbere yabo hari imeza ndende. Aba bantu bari kwifotoza bigaragara ko basoje inama runaka.

Umugore wicaye ku ntebe nto, uhetse umwana mu mugongo, mu gitambaro cy'umweru, undi mwana amufasha ku kibero ahagaze iruhande rwe, umugore yambaye agapfukamunwa, atetse igikoma mu isafuriya ubona ko gicagase, afite ikiyiko mu ntoki ari gukoroga.

Umuntu ufite agahinda aho yakoresheje agatambaro yihanagura mu maso, agatambaro kakaba kadatuma yerekana amaso ye ariko afite agahinda gakabije.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri yicaye ku gatebe gato, akameza gato kamuteretse imbere, uyu mwana araseka cyane arishimye, inyuma ye hari akandi kana gato kambaye umupira utukura.

Igishushanyo cy'umutwe w'umuntu, kirimo utunyenyeri mu mutwe n'urusobe rw'ibindi bintu by'umukara. Cyerekana uburwayi bwo mu mutwe n'uko twabwitaho.

Umugore wambaye ishati akaba kandi akenyeye igitenge, yicaye ku ntebe ya karambarazi, imbere ye hari umukeka, ni inzu arimo ubona ishaje, idirishya rikinguye.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'icyapa, inyuma yabo hari inzu nini cyane y'amagorofa ari hejuru y'atanu; bafashe ibyapa mu biganza byabo.

Umugabo muremure w'umusore wambaye ipantaro y'umukara, ari gusuhuzanya n'undi w'umusazi wambaye imyenda y'inshwabari ufite uburwayi bwo mu mutwe. Abantu nk'aba bagomba kwitabwaho bagahabwa ubuvuzi.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge bose kandi bambaye ibindi bitenge mu mutwe, umugore uri hagati yabo ateruye umwana ukiri muto aho uyu mwana ibere ry'uyu mugore ari kuryonka, inyuma yabo hari umusozi mwiza utatse ibiti.

Umubyeyi wishimye uteruye umwana we, uri mu kigero cy'umwaka n'amezi atandatu, umubyeyi ufite imibiri yombi n'umwana we barishimye. Nk'ikimenyetso cyo kwita ku mwana mu mikurire y'ubwonko.

Umugore witadiye igitambaro cy'ubururu mu mutwe yambaye umupira w'icyatsi aho mu mugongo harimo amabara y'umutuku, yicaye ku ntebe isa ubururu. Hirya ye hari umugabo uri kwandika wambaye umupira w'ubururu n'imeza iriho igitambararo cy'umuhondo iteretseho icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu, kandi yambaye ingofero, Uyu mugabo ari kwitekerezaho, kwitekerezaho bifasha ikiremwamuntu mu kwisubiraho igihe cyakoze nabi cyangwa se kurushaho kwiteza imbere.

Abagore batatu umwe muri bo ufashe umwana mu kuboko kw'iburyo, umwana uri konka, abo bagore bose bafite inkoni mu ntoki, inyuma yabo hari udusozi dutatse amashyamba abereye ijisho.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'ikoti ry'amaboko magufi ry'ubururu useka wishimye, yambaye kandi amaherena, inyuma ye hari icyapa cyerekana gukorana n'ubuvuzi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru n'amadarubindi abonerana, ari mu cyumba cyabugenewe, afite ikaramu mu ntoki kandi afashe ku mashini zabugenewe zikoreshwa ubushakashatsi.

Abana barenga umwe, aho bari gusukura amenyo, amenyo ni kimwe mu bice bigize umuntu, kikaba giherereye ku mutwe mu kanwa, kwita ku menyo ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi, abo tugomba kubishishikariza abana bato bagatangira kwita ku buzima bw'amenyo yabo bakiri bato, kuko bibafasha bamaze gukura.

Umugabo w'igikara, ugaramye, umuganga amuhagaze hejuru, ari kumukura iryinyo akoresheje imashini zabugenewe. Umuganga yambaye agapfukamunwa, agapfuka umusatsi n'agatwikirantoki.

Umwana wasamye yicaye ku ntebe abaganga babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bari kumureba mu menyo, aho bari kureba ikibazo afite ku menyo cyangwa se bakaba bagiye kuyakura.

Umwana ukiri muto uri hagati y'imyaka itatu n'itanu uri kwerekana amenyo ye, afite uburoso mu kaboko k'ibumoso, uburoso yabutambitse asa nk'ugiye gusukura amenyo ye.

Umukobwa useka neza, ufite amenyo y'umweru mu kanwa ke, afite iminwa myiza, kandi intoki ze yazerekeje ku munwa bigaragara ko, ari kwerekana umunwa n'amenyo bye.

Umugabo uri kwireba mu kirahure, aho afite agakoresho kabugenewe, gakura imyanda mu menyo, iba yasizwemo n'ibyo turya. Uyu mugabo afite amenyo y'umweru cyane, ari gukoresha aka gakoresho, akoresheje ibiganza bye byombi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mugihe bakora akazi kabo, icyumba kandi kirimo ikimera giteye mu ivase ririmo itaka, icyumba kandi kirimo ifoto ku gikuta, icyumba kandi kirimo intebe y'ubururu.

Umugore ufite uruhu rwirabura, uri guseka cyane wishimye, afatanye n'undi mugore wambaye amadarubindi uri kwandika ku rupapuro, hirya yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu iteretseho amazi.

Umwana ukiri muto wambaye bibereye amaso afite uburoso bw'amenyo mu kanwa, abufatishije ukuboko kw'iburyo, uyu mwana yicaye ku ntebe isa ubururu.

Umusaza uri mu cyumba cy'ubukarabiro, aho afite uburoso mu kanwa, ari gusukura amenyo ye, hirya hari idirishya ririho igitambaro cy'umutuku.

Umusore wimibiri yombi useka cyane wishimye umupira wibara ry'ubururu uyu musore ubwanwa bwumukara uyumusore kandi bigaragara ko yishimiye ubuzima bwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe iryamye aho umurwayi aryama, hari kandi intebe ihagaze aho umurwayi yicara, hejuru yaho hari imashini yabugenewe ifasha umurwayi, ku ruhande hari akabati.

Umwana ugaramye kandi wasamye cyane. Intoki zifashe amenyo ye ni iz'umuganga umuhagaze hejuru, wambaye agapfukamunwa k'icyatsi n'itaburiya y'icyatsi n'amadarubindi. Uyu muganga ari kwita kuri uyu mwana. Hirya ye ari ibikoresho biri mu kabati. Hari kandi ibitabo biteretse ku kabati. Hari kandi n'amashusho afashe ku gikuta.

Umugabo wasamye wizihiwe. Uyu mugabo afite akadodo afatishije amaboko yombi. Ako kadodo yagashyize ku menyo ye, bigaragara ko yasamye.

Umukecuru ugeze mu zabukuru uri gukoreshwa siporo n'umukobwa w'inkumi ukiri muto; aho ateruye ikimufasha gukora siporo mu kaboko k'iburyo.

Umusore w'ijigija n'umukobwa w'inkumi basindagiza umukambwe w'imvi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu bwijimye bari kumwitaho. Kwita ku bageze mu zabukuru ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo wererutse cyane n'ipantaro y'umukara, aho ari gukorana siporo n'undi musore umufasha gukurura akantu k'umuhondo kameze nk'umugozi bifashisha bakora siporo.

Umusaza w'umukambwe bigaragara ko akuze, aho afite umusatsi wajemo imvi, ari gusukirwa icyo kunywa n'umukobwa ukuzemo, aho imbere yabo ku meza hatatse imbuto zifite amabara y'umutuku.

Umusaza n'umukecuru b'abakambwe bicaye hamwe bari kuganira, amaboko yabo ari ku meza, intoki zabo zambaye impeta, uyu musaza umusatsi wose wabaye imvi.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu ari kwita ku mukecuru wambaye amadarubindi ugeze mu zabukuru aho yicaye mu kagare akaba atagishobora kugenda.

Umugabo ushaje ufite imvi mu mutwe n'umubiri watangiye gukanyarara ateruye umwana ufashe igipupe mu kaboko ke k'iburyo abo bantu bambaye amashati.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite uruhara, wambaye amadarubindi, ari gupimwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu. Yamushyizeho imashini. Hirya ye hari itara rinini kandi ryiza.

Umukecuru n'umusaza bishimanye cyane, bafatanye ku rutugu, umukecuru uri guseka naho umusaza ari gusoma uyu mukecuru. Uyu musaza afite imvi nyinshi naho umukecuru we afite igitambaro cy'umutuku mu mutwe.

Umukecuru ushaje cyane ufite indangururamajwi ifite ibara ry'umutuku mu kaboko ke k'iburyo, uyu mukecuru afite umusatsi wose wabaye imvi ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari inzu ifite ibara ry'umweru n'ibiti byinshi, n'imodoka ziparitse mu kibaya.

Umukobwa w'inkumi wambaye impuzankano bigaragara ko ari iyo kwa muganga, akaba ariho akora; ari kwita ku mukambwe wicaye mu kagare, bigaragaza ko ageze mu zabukuru atagishoboye kugenda. Kwita ku bageze mu zabukuru, ni inshingano za buri wese, mu buzima bwa buri munsi.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru, umwe muri bo yambaye amadarubindi, afashe ikirahure kirimo icyo kunywa mu kaboko ke k'iburyo, bari mu gikoni cyo mu nzu, aho bari gutegura ibyo kurya.

Abakecuru bicaye hasi, intebe ziri ku ruhande, bambaye ibitenge bari kuganira abandi bari mu byabo, inyuma yaho hari urutoki rukoreye kandi rumeze neza.

Umukecuru ushaje cyane ufite imisatsi yose yabaye imvi yambaye amadarubindi, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'umweru, hahagaze kandi umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'umutuku, afite isahane mu ntoki iriho imigati.

Abantu bari mu muhanda bakora siporo, umwe muri bo yambaye amadarubindi n'inkweto z'umukara, harimo abagore batatu n'abagabo babiri; gukora siporo ni ubuzima, bikaba akarusho ku bageze mu zabukuru kuko bibarinda indwara.

Umuryango wishimye ugizwe n'umukecuru, umukobwa n'umwana muto wirabura, ufashe ikimera mu kaboko k'iburyo, bari kandi mugikoni ahatekerwa ibiryo.

Abasaza bicaye hamwe batatu muri bo bambaye ingofero bambaye imyenda yiganjemo umweru, icyatsi, ubururu umwe muri bo ari kuboha abandi bicaye ku mikeka barimo baraganira.

Umukecuru ugeze mu za bukuru uri gusuhuzanya n'umuganga ufite uruhu rwera, umuganga yambaye mu ijosi akuma kabugenewe kumva uko umutima utera, hirya hari indabyo.

Umukecuru uhagaze imbere y'abandi, afite agakoresho bifashisha bakora siporo y'akaboko, aho ukamanura ukazamura, inyuma ye hari abafite uruhu rwera batatu, batagaragara neza bambaye imyenda y'umweru n'indi yandi mabara.

Umusaza w'umukambwe uri guha umwana we umwanya ngo bakine, uyu musaza afite umusatsi w'imvi, na ho uyu mwana we ni ikibondo kikiri gito.

Ikinyamakuru cyerekana, abantu batatu bari hejuru, undi umwe munsi yabo n'undi umwe munsi yabo, handitsweho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, yerekana igihe umukobwa yakuriramo inda.

Umugore ufite ububabare mu maso biterwa n'urushinge ari guterwa n'umuganga ku kaboko k'ibumoso umugore wambaye agapfukamunwa n'isaha ku kaboko k'iburyo n'amadarubindi mu gatuza usutse ibisuko by'imikarago.

Abagabo bambaye bikwije ku buryo utabona amasura yabo, bambaye imyenda y'umweru itwikiriye ahantu hose, bambaye kandi amadarubindi bose hamwe, bakaba banambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari umugabo wambaye agapfukamunwa na we wegereye idirishya.

Abaganga bari mu kazi, abaganga bahagaze bambaye impuzankano y'umweru, umuganga uri muri laboratwari, umufundi uri kubaka, umuhinzi uri gusarura, muri make ibyo dukora ni byo biduha kubaho, tugomba kwiga.

Umuntu uryamye hasi kuri burinkari aho ari guhabwa ubuvuzi bw'ibanze n'abaganga n'abakoreranabushake aho bose bambaye udupfukamunwa bari kumwitaho.

Ababyeyi bateruye abana babo bakiri bato b'impinja. Ababyeyi bishimye n'abana basinziriye ariko bigaragara ko bishimye mu maso yabo.

Icyapa cyerekana ubuzima bw'impinja, aho hariho umwana usinziriye hakabaho kandi icyerekana ko kwiyandikisha bibura umunsi umwe ngo birangire.

Imbaga y'abari n'abategarugori biganjemo abambaye imipira y'imyeru, imbere yabo hicaye abandi nkabo bambaye imipira y'imikara, imeza zabo ziriho ibitambaro by'umutuku.

Uruhuri rw'abantu harimo ababyinnyi bambaye imyenda yera b'akobwa, kandi hakabamo abasore bambaye imyenda y'ubururu n'indi yera b'ababyinnyi. Bari kwizihiza umunsi wo kurwanya SIDA.

Uducupa tw'umweru dufiteho ibara ry'umutuku n'iry'icyatsi turerekana ko uwapimwe arwaye indwara y'ubushita.

Umukobwa w'inzobe wambaye umupira w'umukara, yicaye imbere y'umuganga ari kumuvura, umuganga yambaye ishati y'umweru n'ikoti riciye amaboko ry'umutuku, inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze.

Iduka ry'imfundane ririmo ibiribwa aho ubona bicucetse cyane, ibiribwa bifite ibara ry'umweru bifunze mu mashashi, umuryango hirya ufite akarongo hejuru k'ubururu n'itara ry'umweru.

Inyubako nziza iryoheye amaso kuyireba itatswe n'amakaro yirabura kandi ifite aho bakirira abantu, iy'inyubako ni iy'ibitaro.

Ibyicungo by'abana biri mu gipangu indani, igipangu kizengurutswe n'amatafari ahiye na ferabeto, hari kandi ubwatsi butoshye hasi n'amazu ari hirya y'igipangu.

Uruhuri rw'abantu bicaye ku ntebe za karambaraza, bambaye imyenda y'ubururu, umweru, icyatsi, umukara, imbere yabo hari abayobozi bambaye amakoti y'umukara, bari mu ishuri imbere hari ikibaho.

Icyumba cyiganjemo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kirimo kandi uburiri umurwayi aryamaho mu gihe ari gusuzumwa indwara runaka, harimo imashini zigizwe n'ikinyaruka kifashishwa mu gutangaza ibyo umurwayi arwaye.

Ibitaro inyubako y'abarwayi, irimo ibitanda bifite uburiri abarwayi baryamaho mu gihe basuzumwa; birimo kandi imashini zifashishwa n'abaganga.

Icyumba kigari gitatse amabara meza, ku nkuta hariho udutako, muri icyo cyumba harimo intebe z'uburiro, hakaba n'intebe baganiriramo, hakabamo na televiziyo.

Inyubako y'ibitaro kwa muganga ibitanda biryamyeho abandwayi umuganga hirya uhagaze n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga inyubako igizwe na sima amatara y'urwererane n'ibindi byinshi.

Ahantu habereye ijisho kuhareba, hateye ibiti by'icyatsi. Hari kandi n'amatafari hasi asize ibara ry'umweru n'umukara, hari kandi n'amatara yo ku mapoto maremare.

Umwana ubana n'ubumuga bwo kutagenda, wicaye mu kagare. Hirya hari inzu y'amagorofa abiri ifite ibara ry'umweru n'ibirahure binini bigari. Hepfo yayo hari ikigega kirekire, hirya hari umusozi wirengeye uriho ibyatsi.

Ibitaro bigizwe n'amagorofa ane, muri parikingi haparitsemo imodoka zigera muri esheshatu. Ku marembo hari icyapa ndangahantu cyandikishijweho amagambo n'ibara ry'ubururu, yerekana ko ari ibitaro byo kwa Nyirinkwaya.

Inyubako nziza cyane itatse amabara y'urwererane, aho hariho amadirishya meza, inzugi z'ibirahuri byererana bibonerana, intebe z'urwererane n'amagambo yanditseho, rimwe, kabiri n'ubwiherero bwerekanwa n'ibimenyetso.

Abaganga batatu bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu kandi bose bafite udutambaro mu mutwe tw'umweru, bifashe mu mifuka, inyuma yabo hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi byiza.

Inyubako nziza yerekana ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ifite ibara ry'umweru imbere yaho hateye ibiti bitari byinshi bifite ibara ry'icyatsi.

Ikigo nderabuzima cya Kigina igipangu cyubatse neza, imbere yacyo hari umugore uhetse umwana, inyuma y'igipangu harimo inyubako z'ikigo nderabuzima cya Kigina.

Icyapa ndangahantu kirekire gifashwe n'inkingi gisa ubururu, amagambo yanditseho yandikishijwe ibara ry'umweru, herekana ko ari ku bitaro bya Kabgayi, imbere hari inyubako zigera muri eshatu n'umuntu uri ku igare n'undi uhagaze n'ibiti birebire.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Remera Rukoma, iyo nyubako irakoropye irasukuye, inyuma yayo hari ibigega bibiri, hakaba n'indi nyubako y'amabati ajya gusa umutuku, hari kandi uturabyo twiza dutatse tw'amabara y'umuhondo n'ibyatsi.

Inyubako y'amagorofa abiri igizwe n'intebe itatswe n'amakaro y'urwererane ifite aho bakirira abantu mu gihe bagitegereje serivisi runaka baje gusaba.

Inyubako nziza cyane y'amagorofa atatu, igizwe n'ibirahure byiganjemo ibara ry'icyatsi, abantu bahagaze ku ruhande, bambaye imyenda yiganjemo ubururu bwerurutse, hari kandi n'ubutaka bwiza cyane.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ni icyapa kinini kiri hejuru cyanditseho ayo magambo, aho handitseho kandi imbuto, hariho kandi ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, hari abantu bahagaze munsi y'icyo cyapa gifashwe n'inkingi ifashe ku nzu.

Icyumba cyo kwa muganga cyo kubagirwamo, umurwayi aryamye ku gitanda, abaganga bambaye impuzankano y'ubururu bambaye kandi udupfukamunwa bari kumuvura, hejuru ye hari imashini zibishinzwe aho zitanga urumuri rwifashishwa n'abaganga.

Abantu batanu bahagaze imbere y'inzu, hejuru kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho amagambo yerekana ko aho hantu ari kwa muganga, hari raboratwari ifite ibyo ikorerwamo.

Inyubako y'amagorofa agera muri 3, ikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara runaka, ifite laboratwari ikora ibintu cumi na bibiri bikubiyemo ubushakashatsi ku ndwara.

Icyumba kitarimo umuntu n'umwe, harimo intebe eshatu, harimo kandi imashini, harimo kandi imeza, iki cyumba kibereye ijisho ku kireba, kirimo kandi n'akabati gateretseho ibikombe.

Udupaki tw'amaraso dupanze ari twinshi. Imbere yatwo hari ababyeyi bicaye, imbere y'ababyeyi hari igitambaro cy'umutuku, udupaki tw'amaraso dupanze ku meza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biriho uburiri, buri gitanda gifiteho akameza ku ruhande kariho impapuro z'umweru. Kandi ibyo byose, bikifashishwa n'abaganga mu kuvura.

Icyumba cy'uruganiriro giteguye neza, gifitemo intebe zipanze ku murongo imwe ku yindi, inyuma y'indi imbere hari akabati cyangwase ameza uvuga ahagararaho, hejuru hari igisenge giteye neza, inyuma hari amadirishya n'inzugi.

Inyubako itari nini ariko ngari, ifite inkingi z'umweru. Imbere yayo hari icyapa kirekire kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, icyapa kiba kizengurutswe n'indabyo z'icyatsi ziganjemo akabara k'umuhondo gake.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiza gisashe neza, kirimo kandi imashini zabugenewe zifashishwa n'abaganga mu gihe bavura umurwayi. Kuri ubwo buriri hateretseho amashashi.

Ibitaro bya Ruhengeri, icyapa kinini cy'umweru, amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, ni igipangu kizengurutswe n'amatafari ahiye na ferabeto, mo indani harimo inzu.

Icyapa ndanga cyerekezo cyerekana ko hari ibitaro byitiriwe kwa nyirinkwaya, hari kandi igipangu, hirya hari akazu k'umuhondo gato, hirya yaho hari inzu y'amagorofa agera muri abiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitari byinshi, buri gitanda gifiteho umusego, ufite ibara ry'ubururu bwerurutse cyane, hari kandi imashini iri iruhande rwa buri gitanda nini, ifiteho n'ikinyaruka cyifashishwa n'abaganga kureba ibisubizo.

Inyubako igizwe n'umuryango w'ibirahure bibonerana, hejuru y'ibyo birarahuri hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asobanuye ko ari irerero ryabana bakiri bato, ayo magambo yanditswe mu nyuguti zifite amabara akurikira: umutuku, icyatsi, umuhondo.

Inyubako z'amagorofa ziri ahirengeye, aho ahabanza hari ibyatsi byiza by'icyatsi, izo nyubako zifite byibuze amagorofa atanu.

Inyubako nziza kandi ngari ifite umuryango, uri gusohokwamo n'umuntu, imbere y'iyo nyubako harapavomye neza, imbere y'iyo nyubako kandi hari amadarapo abiri.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, hari icyapa cyerekana ko bitemewe kuvuza indangururamajwi yo mu modoka, hari icyapa cyerekana ko utemerewe kurenza umuvuduko wa makumyabiri, hari icyapa kandi cyerekana inzira, hari n'abantu bategereje kwinjira.

Inyubako y'amagorofa arenze abiri, mu igorofa rya mbere harimo iduka ricuruza ibintu runaka, hejuru hari icyapa ndangacyerekezo cyerekana aho hantu.

Umuntu urwariye mu cyumba cyabugenewe kirimo imashini nyinshi zimwitaho, aho aryamye ku gitanda cyabugenewe akaboko kamwe yagafashishije aho bashyira akaboko nk'umuntu urwaye, icyumba kandi kirimo imashini zimwitaho.

Icyumba cya laboratwari, ikorerwamo ubushakashatsi runaka, gikubiyemo ibitanda byinshi by'ingeri zose, gikubiyemo kandi amatara y'urwererane, kandi kikaba gikubiyemo n'inyakiramajwi n'insakazamashusho.

Inzu nziza ibereye amaso ifite irangi ry'umweru ikagira amabati y'ibara ritukura iyi nzu urupangu rwayo rukoreshejwe amatafari hanze kandi hateye ibyatsi byiza bitoshye.

Akanyamasyo gakoze mu gikinisho kari ku butaka bugizwe n'amarange arimo ubururu, icyatsi cyererutse cyane n'ubururu bwererutse, hari kandi n'intebe z'ubwoko bwose zigizwe n'amabara ubururu, icyatsi.

Icyumba kiryoheye amaso kukireba, gifite ibara ry'urwererane. Giherereyemo laboratwari yifashishwa n'abaganga mu gihe basuzuma abarwayi.

Imodoka iri gusohoka muri parikingi, inyuma yayo hari inzu y'igorofa iryoheye ijisho. Hari kandi umuntu wicaye ku ntebe y'Umweru hanze. Hari n'icyapa, cyanditseho amagambo y'umukara.

Inyubako yerekana aho bacururiza imiti, inyubako igizwe n'ibirahure byiza byiganjemo ibara rigarura urumuri ry'ubururu, kuri iyo nyubako hejuru hari ikirangantego cyerekana uko iyo nyubako yitwa.

Icyumba cy'urwererane kirimo igitanda gito cy'urwererane n'intebe ngufi y'umukara ifite amaguru ane, iki cyumba kandi kirimo imashini zabugenewe zikoreshwa n'abaganga mu bushakashatsi.

Inyubako kigo nderabuzima cya Rwerere, iyo nyubako igizwe n'igipangu cy'amatafari ahiye. Hirya yayo hateye indabyo z'ibara ry'icyatsi n'umuhondo. Hari kandi ubutaka, hari kandi n'umugabo uri kugenda.

Inyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi. Laboratwari irimo ibikoresho abaganga bifashisha mu gihe basuzuma umurwayi.

Uruhinja ruryamye mu mashini zabugenewe umuganga ufite isura yishimye wambaye impuzankano yerekana ko akora mu bitaro akaba kandi yambaye ingofero yabugenewe y'umweru ari kwita ku ruhinja aho hari imashini nyinshi zibikurikirana.

Uruhurirane rw'abantu biganjemo abafite uruhu rwirabura n'abandi bake bafite uruhu rwera, bamwe muri bo bambaye amadarubindi bahagaze imbere y'ibitaro bya Rwamagana muri abo bantu harimo abaganga bambaye impuzankano y'ibitaro.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri. Uyu mwana umugabo amufashe ku rutugu, yambaye itaburiya y'umweru, inyuma y'uwo mugabo hari umugore ufite uruhu rwera n'undi mugore ufite uruhu rwirabura n'undi mugabo ku ruhande, inyuma yabo hari ikibaho ni mu ishuri.

Inyubako y'amagorofa abiri imbere yayo haparitse imodoka igorofa rya mbere harimo aho bacururiza imiti ya kizungu hejuru hari icyapa cyerekana izina ry'iryo duka.

Inzu iri ahirengeye ifite ibara ry'umweru wijimye, imbere y'iyo nzu hari igiti gito, gifite amababi y'icyatsi, hakaba kandi n'ikigega, iyo nzu ikorutiriwe n'urugo rugizwe n'amatafari ahiye.

Umukobwa useka cyane wishimiye umukambwe, ufite uruhara umusatsi muke wajemo imvi, yambaye kandi amadarubindi, ari kumufata ibipimo aho yamwambitse imashini ku kuboko.

Umukobwa wicaye ku mukeka wabugenewe ukorerwaho siporo, yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro imufashe y'umukara. Ari kwigorora aho akaboko ke kamwe, kagiye kagafatana n'amano ye. Inyuma ye, hari intebe.

Icyapa cyerekana amategeko yo gukora neza siporo, aho kuri icyo cyapa berekana amashusho ya siporo zitandukanye, kwigorora, kurwana bitari ibyo kwicana, umupira w'amaguru n'indi mikino itandukanye.

Ibikoresho binyuranye bikoreshwa kwa muganga nk'impakasi, ibinini bivura indwara runaka, ikaramu y'igiti yifashishwa mu kwandika ibyo twabonye, imiti ivura inkorora mu gihe turwaye.

Imyaka yiganjemo imbuto n'imineke. Ku ruhande, hari kandi imashini zifashishwa n'abantu. Abasore n'inkumi, bakeneye gukora siporo, baterura ibyuma.

Akadege gato katagira umupirote, gafashe agakapu gato, ako gakapu kandidikishijweho umusaraba n'ibara ry'umweru mu kiziga cy'ibara ry'umutuku, hirya yaho hari ibiti n'amazu.

Umugabo wambaye utuntu mu matwi ye, ni umugabo ubona ufite inyama nyinshi ku maboko; aho yambaye isengeri akaba arimo akora siporo yigorora.

Abaganga batatu n'umugabo uri hagati yabo wambaye ishati y'ubururu n'ikoti n'ipantaro by'umukara bari kureba isakazamashusho, aho yerekana ubushakashatsi bukozwe hari kandi n'abarwayi bari ku ruhande baryamye ku buriri.

Laboratwari irimo ibikoresho nk'intebe, amatara, ikinyaruka n'ibindi byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi indwara runaka.

Imashini yifashishwa mu gufata no gupima ibipimo runaka by'umuntu nk'umutima, uko amaraso atembera mu mubiri, bikaba byamufasha mu gihe agiye gukora siporo akamenya siporo akora, bikita ku buzima bwe.

Umurwayi uryamye yubitse inda, imashini imuri hejuru, zimwe zimufashe ku mugongo, aho umuganga wambaye agapfukamunwa amuhagazeho, ari kumukorera isuzuma.

Kadahumeka iri kwiruka yambaye imashini ku kaboko. Iyi kadahumeka yerekana gukora siporo ko ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu n'ibara ry'umutuku yerekana ko tugomba gukora siporo.

Abagabo babiri; umugabo umwe afashe umupira w'amaguru mu kaboko ke, yambaye ikabutura y'umukara werurutse n'ubururu bwijimye, undi mugabo ubyibushye yambaye inkweto z'umukara n'umupira w'umuhondo, afashe ikimufasha kugenda kuko yaravunitse.

Umugabo wijimye uhagaze wazamuye akaguru ahagaze bisanzwe cyangwa se yagatambitse, ni imyitozo ngororamubiri yagufasha mugihe urwaye cyangwa se wavunitse.

Umugore wambaye isengeri y'umukara ngufi, akaba kandi yambaye hasi umukara afite akamashini ku kuboko kwe kw'ibumoso, kandi ukuboko kw'iburyo gufashe icupa ry'amazi ari kunywa.

Umusore w'inkorokoro urimo akora siporo, aho yafashe akaguru akakazamura akagashyira ku cyuma, agafata aho amano atangirira byumvikana ko ari kwigorora. Gukora siporo ni kimwe mu bigabanya uburwayi kandi bikadufasha mu buzima bwacu.

Umugabo ufite imisatsi myinshi n'ubwanwa bwinshi wunamye, amaboko ari imbere amavi afashe ku butaka. Ari gukora siporo yigorora ku mukeka wabugenewe. Hirya ye hari intebe.

Uruhuri rw'abantu biganjemo abasore bambaye amasengeri y'umweru n'amakabutura y'umukara n'andi yera, inkweto z'amabara y'umutuku n'amabara yirabura, bari kubyina mu kibuga cy'umupira.

Umugabo w'umusore w'imbaraga ufite ubwanwa, wambaye umupira usa nk'itaka. Uyu mugabo afite icupa ry'amazi mu kaboko k'iburyo, aho ari kuyanywa.

Icupa ry'amazi ryuzuye rifunze neza, rifite umupfundikizo w'ibara ry'ubururu, rifashwe n'ikiganza cy'umuntu ufite uruhu rwera, aryerekeje mu kirere, gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umugabo akaboko kamwe ke gafashe mu mayunguyungo, akandi kaboko gafashe icupa ry'ubururu riri ku munwa, ririmo amazi, yambaye umupira w'ubururu, ari gukora siporo.

Umuntu uri kwikanda akoresheje ikintu cyabugenewe ku kaguru, aho akaguru kamwe yakazamuye akandi karambije, bigaragara ko yahuye n'ikibazo cyo kurwara akaguru.

Umugore ufite imisatsi miremire ifunze, yambaye isengeri iciye amaboko y'ubururu, akaboko ke gafashe icupa ry'amazi mu kanwa, ari kuyanywa.

Umugabo umwe wicaye akaguru karambije akandi kazamuye, umuganga amuhagaze iruhande arimo kumuvura, aho umugabo yagize ikibazo ku kaguru ke k'iburyo.

Umusore ufite akaboko kanini, uraramye, ako kaboko kakaba gafashe icupa ry'amazi ari kunywa, uyu mugabo afite ubwanwa, hirya ye hari umusozi.

Imbuto ziganjemo inyanya, avoka, amaboko abifashe ni ay'umuntu ufite uruhu rwera, hirya hari imashini yabugenewe ikoreshwa siporo, hirya hari n'inkweto.

Umugabo wambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso, kandi akaba yambaye n'isengeri y'umukara, ari gukora siporo, siporo ni ubuzima kandi turusheho kuyinoza kugirango tugire ubuzima buzira umuze.

Amasahani abiri ariho imbuto, imwe iriho imineke n'ibindi, indi iriho amagi n'inyama n'ubunyobwa, inyuma hari agakoko karimo uruvangikirane rw'ibintu, hari kandi udukoresho bakoresha bari gukora siporo.

Burankari yifashishwa mu guterura umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune cyangwa se ikindi kibazo runaka, ikaba yifashishwa nko mu mupira w'amaguru, mu gihe umukinnyi agize ikibazo runaka, akaba atabasha kwisohora mu kibuga.

Umugabo w'umusore, ufite ubwanwa butari buke cyane ariko butari bwinshi, uyu mugabo akaboko ke gafashe icupa ry'amazi aho ari kuyagotomera.

Umupira w'amaboko, umupira w'amaguru, agasuzuma uko umutima w'umuntu utera, umugozi wo gusimbuka, ibyo bambara mu kiganza, byose hamwe byikubiyemo bikabyara ikizeru.

Igikombe kinini kiri gusuka amazi mu gikombe gito amazi afite ibara ryiza ry'urwererane.

Umukinnyi usa nk'unaniwe ufashwe n'abagabo babiri umwe wambaye imyenda y'umukara hose k'umupira n'ipantaro, undi wambaye ibara ry'ivu n'umukara.

Akaboko k'umuntu wambaye impeta mu rutoki, uyu muntu afashe barafu mu kaboko ke ayishyira ku kaboko kandi aho ari kwikanda.

Amazi ari mu icupa ry'ubururu. Imbuto zifasha mu igogora mu gihe turya. Metero yifashishwa mu gupima uburebure bw'umuntu.

Umusore w'inkorokoro ufite imbaraga bigaragara, yambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara n'inkweto z'ubururu n'amasogisi y'umweru, arimo kwigorora yafashe akaguru agashyira ku biti arakazamura.

Ububabare mu gice cy'umubiri cyitwa ivi, ivi ni ahahurira itako n'akaguru, bigaragara ko umuntu yagize ububabare muri iki gice bushobora kuba bwaratewe no kuvunika.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje igikombe cy'ubururu kinini, amazi nibu ubuzima ni yo mpamvu abayanyweye bagira ubuzima buzira umuze.

Inkweto zo gukinisha umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru ufite ibara ry'umweru n'umukara mu dusatesate. Hakaba kandi agakoresho gakoreshwa na muganga, mu kumva uko umutima utera.

Umugore uri muri siporo, aryamye ku gakeka kabugenewe, yambaye imyenda y'umukara hose, ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, akaguru kamwe karyamye hasi, akandi yakazamuye agashyira ku nda ye gafata ku ibere, agafatisha amaboko yombi.

Ibimera biteye mu butaka butoshye, ibyatsi byinshi ku ruhande by'icyatsi, ibi bimera bifite amabara atandukanye, umweru, umutuku, n'icyatsi cyiza kibisi.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa, wambaye ingofero, uhagaze mu iduka ry'imiti y'ubuvuzi gakondo, imiti y'ubuvuzi gakondo idufasha mugihe dufite uburwayi runaka.

Amaboko abiri y'abantu bafite uruhu rwera. Ukuboko kumwe gufashe uburoso bwo mu kanwa, ukundi kuboko gufashe umuti woza amenyo. Ni ukuvuga ko ako kaboko kari gushyira umuti ku buroso.

Agakarito kiganjemo amabara y'umweru, ubururu, icyatsi, kanditseho amagambo agizwe n'inyuguti arizo A, R ebyiri A,na N na C, na E. Hari kandi n'imiti bigaragara ko ifite indwara runaka ivura.

Igiti cyumagaye kiri hagati rukumbi mu bindi biti ubona bitoshye, hari kandi ubwatsi burebure ubona bwishwe n'izuba.

Igikombe cy'urwererane kirimo amavuta akorwa mu buki bw'inzuki bwahakuwe, aya mavuta yita ku ruhu rw'umuntu aho akubiyemo ibintu byinshi bifasha uruhu kumera neza.

Imiti yongera imbaraga yifashishwa n'abadamu cyangwa se abagabo mu gihe bakeneye kongera imbaraga muri siporo runaka bakora, cyangwa se bakeneye kubaka umubiri.

Amavuta bigaragara ko akozwe muri avoka, akaba yifashishwa n'ibitsina bibiri byombi, abagabo n'abagore kandi ayo mavuta, akaba afite uruhare mu kuvura indwara z'uruhu.

Igikombe gipfundikiye kirimo umuti ariko utuzuye neza muri make uracagase, uyu muti amagambo yanditseho werekana ko uvura umunaniro.

Umugabo wambaye ishati ihinnye amaboko, afashe igikombe kinini gifite umufuniko ufite ibara ry'ubururu, imbere ye hari indobo ndende hirya ye, hari inkwi zigiye zifunze neza.

Uducupa twinshi tw'imiti harimo tw'umweru, umutuku wijimye, umuhondo n'icyatsi, harimo udufite imipfundikizo bakanda cyane kugira ngo amavuta asohoke, hakabamo n'utundi dufite imipfundikizo bakaraga kugira ngo amavuta asohoke.

Ishyamba rinini kandi rigari rigizwe n'ibiti byinshi cyane, ni ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti byegeranye bigizwe n'amababi n'icyatsi yiganje.

Ikimera gifite amababi y'ibara ry'icyatsi giteye mu butaka bufite ifumbire ihagije, hirya yaho hari ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Ibiganza by'umuntu w'uruhu rwera, bifashe amavuta ari mu gacupa, gafite umupfundikizo ukaragwa mu gihe ugiye gukurwaho, aya mavuta afasha ikiremwa muntu mu gukesha uruhu.

Igikombe cy'umweru gifite umupfundikizo w'umweru, kikagiraho agashashi k'umutuku kerekana ko iyo miti ari igisubizo kuri amibe, umuntu wifashe mu nda n'utundi dushushanyo twerekana inzoka zo mu nda.

Ibimera birimo ibiti ibi byifashishwa mu buvuzi gakondo aho usanga bifite indwara runaka bivura cyane cyane byakoreshwaga mu gihe cya kera ariko n'ubu bikaba bigikoreshwa hamwe na hamwe.

Ikimera gitoshye gifite amababi asa icyatsi yaguweho n'amazi. Iki kimera kiri mu butaka bumeze neza, butoshye.

Urubuto rw'ipapayi, ipapayi nziza cyane, ifite ibara ry'icyatsi, imwe muri zo ni igisate, ifitemo imbuto nyinshi indani muri yo.

Ikirangantego cyerekana imiti y'Akagera, byanditswe mu ibara rijya gusa nk'igitaka, aho rigira riti imiti y'Akagera.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi amababi yacyo aratoshye, gihinze mu butaka burimo ifumbire ihagije, ibimera bidufasha mu kuduha ibyo kurya no kuduha imiti y'ubuvuzi gakondo.

Ibimera biri mu ishyamba bifite amababi y'icyatsi bifashe ku giti kitari kirekire cyane, ni ishyamba rigaragara nk'inzitane, hari amagambo yanditse munsi mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu biganjemo abahinzi bari mu murima urimo amaterasi y'indinganire, harimo kandi imashini zihinga zabugenewe, abo bantu bambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye ingofero.

Agacupa k'imiti gapfundikiye gasa umweru, hari hejuru kandi ibimera bikora iyo miti, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yerekana akamaro k'iyo miti.